Moto ipakiye ibicuba bitatu batwaramo amata, umuntu wambaye ga n'umwana mutoya uri kumusunikira, ndabona igikuta kiriho icyapa umuryango w'urugi ufunguye.

Igishanga kirimo umuceri kigari cyane, imigunguzi, amashyamba, ibihuru n'inyamaswa.

Ni heza cyane ihari intebe za pulastike ,iz'imbaho hari imitaka, hasi imbere hari amapave, hari indabo nziza cyane hari idirishya, hari igikuta kijya gusa nk'umuhondo hasakaje amategura.

Imbere mu nzu hari sima, hari isanmbusa bacuruza ziri mu kabati, hari akabati gahagaze, hari intebe, hari umuntu wunamye uri gutegura ibyo kurya.

Abantu benshi barimo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo bamwe baricaye ku musambi, abandi barahagaze, abandi barapfukamye, bari gusenga imana. Hari intebe, hari inkweto ahantu basengera. Nta rangi ririmo, hari idirishya rifunguye.

Saro nziza ifite amarido meza, intebe nziza zigezweho, ameza matoya, amanini, imisego, igikuta cy'umweru na tapi mu nzu.

Ndimo ndabona umumotari, ndimo ndabona umugenzi, ndimo ndabona umumotari wambaye Kasike ndi kubona moto, umutaka ndi umutaka wa emutiyene ndi kubona imodoka y'ivatiri ndikubona inzu.

Kaburimbo, akayira k'abanyamaguru, abamotari babiri, moto ebyiri, umwe yambaye kasike, umurima wacishijwemo amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi biciye mu nsinga, ishyamba.